Abagabo babiri umwe yambaye amadarubindi n'ishati y'umweru irimo imirongo y'andi mabara, undi na we yambaye umupira w'ubururu ndetse n'ingofero byose biriho ibirango bisa, bahagaze imbere y'umurima urimo ibihingwa bafite ishashi mu ntoki irimo imiti cyangwa se ifumbire y'ibyo bihingwa, umwe ari gusobanurira undi uko ikoreshwa.

Umugabo uhagaze mu murima, hagati uhetse ipompo mu mugongo, bifashisha bari gushyira imiti igiye itandukanye ku bihingwa. Yambaye ingofero y'umutuku, ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu ndetse yambaye na bote.

Umugabo wambaye wikwije, wambaye umwenda w'ubururu mu mutwe ndetse n'umupira w'icyatsi . Mu mugongo we ahetse ipombo. Akaba ari kuyifashisha gutera imiti ndetse n'amafumbire atandukanye ku gihingwa cy'umuceri utarera neza kugira ngo ubashe gukura ndetse were neza.

Ubworozi bw'amafi, abantu benshi baragaragara ko bakikije icyuzi, icyuzi ni ikidendezi abantu bikorera, bakabasha kororeramo amafi y'ubwoko bashaka ndetse bakanayakurikirana uko babishaka, bitandukanye n'amafi karemano dukura mu migezi ndetse n'ibiyaga nta muntu wabyororeyemo.

Abantu benshi, abagabo ndetse n'abagore, bambaye bitandukanye, bahagaze bakikije icyuzi cyororerwamo amafi, bari kukiyitegereza, ni abantu bari kwita ku bijyanye n'ubworozi bwabo bw'amafi ngo barebe uko bugenda neza.

Umuntu uri ku nkombe z'amazi aya mazi akaba akorerwamo ubworozi bw'amafi, akikijwe n'amafi menshi cyane amuzengurutse ategereje ko ayahereza ibiryo biri ku gisae kinini afite n'akandi gato yari ari kujya akoresharisha adaha ibiryo ahereza ayo mafi aho ari mu mazi.

Umugabo uhagaze iruhande rw'icyuzi cyororerwamo amafi, Ku kuboko kw'ibumoso yambaye isaha ndetse n'utundi dutako two kwirimbisha, yambaye ishati y'amaboko magufi yenda kuba umweru ndetse n'ikoboyi hasi. Afite mu kaboko k'iburyo bwe isahani iriho ibiryo bigaragara ko ari iby'amafi.

Umugabo wambaye ikoti ryo kwifubika, ndetse yambaye bote. Afite mu kaboko ke k'ibumoso igikombe cy'umuhondo, ndetse yicaye hagati y'ibyuzi byororwamo amafi. Ari gushyiramo ibiryo muri ibyo byuzi amafi arya. Iruhande rwe hahagaze abana babiri, umwe yambaye agapira k'icyatsi undi yambaye agashati k'ubururu juru.

Umugabo muremure uhagaze hagati y'ibyuzi byororerwamo amafi, yambaye agapira k'icyatsi karimo amabara y'umweru ipantaro ye n'ubururu juru, mu gihe yambaye bote z'umuhondo, yambaye isaha ndetse afite ikidobo mu ntoki cy'umweru ari kwifashisha ashyira imiti muri ibyo byuzi kugira ngo amafi atatakwa n'uburwayi runaka.

Icyayi ni kimwe mu bihingwa nzahurabukungu bihingwaa iwacu mu Rwanda, kikaba gihingwa cyane cyane mu bice by'Amajyaruguru ndetse n'icy'Ububurengerazuba, aha umugabo n'umugore bari mu murima w'icyayi, barimo baragisarura.

Kimwe mu bihingwa nzahurabukungu bihingwa inaha iwacu mu Rwanda harimo kawa, kawa ikaba ihingwa inaha iwacu mu Rwanda ikagurishwa mu mahanga ikatwinjiriza amadovize, uyu mubyeyi ari gusarura kawa yeze kugira ngo abashe kuyigurisha abone amafaranga.

Kawa ni kimwe mu bihingwa nzahura bukungu gihingwa inaha iwacu mu Rwanda, ikaba ihingwa mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu ikoherezwa ku isoko mpuzamahanga ikabasha kutwinjiriza amadovize, iyi ni kawa yeze yiteguye kuba yasaruwe.

Kawa ni kimwe mu bihingwa nzahurabukungu bihingwa ino aha iwacu mu Rwanda, ikoherezwa ku isoko mpuzamahanga maze bikatwinjiriza amadovize. Kawa ihingwa mu bice bitandukanye by'Igihugu, iyi ni kawa iri mu murima imaze kwera, ku buryo yasarurwa igatunganywa ikaba yajyanwa ku isoko.

Abantu benshi abagabo ndetse n'abagore bicaye, hagati yabo harimo igihingwa cya kawa gisarurwa mu murima. Aba bantu bari kuyitunganya kugira ngo ibashe kugurishwa izanira amadovize igihugu, kuko ni kimwe mu byinjiriza igihugu cyacu amadovize.

Igihingwa cya kawa, kikaba ari kimwe mu bihingwa ngandurarugo bihingwa ahantu hagiye hatandukanye hano iwacu mu rwanda ndetse ikaba ari imwe mu kawa nziza zihingwa ku'Isi, hagati harimo ikarita y'igihugu, ikaba isize amarangi y'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu, hagati harimo izuba nk'ikimenyetso cy'ibendera ry'igihugu.

Icyumba kirimo amakarito menshi ya kaki yanditseho n'ibara ry'umutuku, ayo makarito arimo imiti ihabwa amatungo, akaba ayafasha mu burwayi butandukanye harimo n'uburwayi bw'inzoka.

Icyumba giteretsemo amakarito menshi agiye atandukanye, ayo makarito akaba arimo imiti y'amatungo, ayafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hari ayafasha gukura neza, hari n'ayafasha gukira indwara runaka, muri ayo makarito harimo ayo twavuga yanditseho nka tirozine, miriti vitamine ndetse n'ayandi.

Amacupa menshi atandukanye y'umweru, ayo macupa akaba arimo imiti y'amatungo, iyafasha muburyo butandukanye, haba mu mikurire myiza ndetse no mu burwayi, bimwe muri ayo bigaragara, byanditseho mu ndimi z'amahanga ngo meliti vitamine.

Ibicupa binini cyane by'imyeru biteriretse hasi, muri ibyo bicupa hagendamo imiti y'amatungo itandukanye, imiti y'amatungo hari iyikiza indwara, iyifasha gukura neza cyangwa se n' ituma yongera umusaruro.

Inka zigera muri enye za kizungu. Zifite ibara ry'ikibamba. Zikaba zorowe mu buryo bugezweho ari bwo, bwo kororera mu biraro. Iruhande rwazo hahagaze umusore ukiri muto urimo azitaho, azongeramo ubwatsi mu ruriro rwazo kugira ngo zitagira inzara.

Umugabo wambaye ikoti ry'idoma ryerurutse, yambaye ipantaro y'ubururu bwerurutse yambaye bote z'umukara, arunamye iruhande rwe harambitse isuka, akaba ari gutera igiti.

Igihingwa cy'ikirarayi kikiri gito, kikaba ari igihingwa gihingwa cyane cyane mu Rwanda mu gice kizwi nk'amajyaruguru, ahitwa i Musanze, ndetse hakaba hari ibirayi byinshi byitirirwa icyo gice, byitwa Ruhengeri ndetse na Kinigi.

Umurima munini uhingwamo ibirayi, muri uwo murima ateretsemo indobo eshatu z'umukara zipakiyemo ibirayi byamaze gutunganywa ku buryo byajyanwa mu isoko, hasi muri uwo murima hagiye hanyanyagiyemo ibindi birayi bitarapakirwa.

Igihingwa k'imboga rwatsi. Gikungahaye cyane ku ntungamubiri, za vitamine a. Izi zikaba zifasha cyane cyane, abana ndetse n'abagore batwite kubera ko, ari ingirakamaro cyane, mu kurinda indwara.

Igishanga kinini cyane kandi kigari gihinzemo igihingwa k'ibigori kikaba ari kimwe mu bihingwa bihingwa cyane mu Rwanda kandi kiribwa mu buryo butandukanye, bakakirya ari ikigori, bakakinywamo igikoma, ndetse bakabasha no kukirya mo umutsima.

Amashyamba ni kimwe mu byiza nyaburanga bigize igihugu cyacu, uretse kuba acumbikiye inyamaswa harimo n'izikurura ba mukerarugendo nk'ingagi ndetse n'izindi agira uruhare mu gutuma ikirere kiba cyiza, harimo nko gukurura imvura ndetse no kuduha umwuka mwiza duhumeka.

Ishyamba rigari cyane kandi ry'inzitane muri iryo shyamba niho iwabo n'ibinyabuzima bigiye bitandukanye inyamaswa zitandukanye, inzoka, intare, inkende ndetse n'ibindi byose byibera mu ishyamba. Iryo shyamba kandi rikaba rigira umumaro mu gutuma ikirere kiba kiza cyane, cyane cyane mu byo gukurura imvura ndetse no kuturinda imyuka mibi.

Ubuhinzi bw'imboga, ni bumwe mu buhinzi bw'ingenzi cyane bitewe n'umumaro imboga zidufitiye ariwo wo kuturinda indwara. Muri izi mboga urabonamo: karoti, inyanya, ibitunguru, puwavuro, seleri ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'imbuto n'imboga buri amoko menshi turahabona urubuto rwa pome rumwe mu mbuto z'ingenzi cyane kandi zifite agaciro kubera intungamubiri zikungahayeho, ntabwo ruhingwa cyane mu Rwanda gusa rwatangiye kujya ruhingwa narwo.

Ikibaya kinini kirimo umurima uhinzemo imyaka, hagati muri uwo murima harimo uburyo bwa kijyambere bugezweho bwifashishwa mu kuvomerera iyi myaka kugira ngo ibashe gukura neza itagize ikibazo cy'amazi kandi bitavumye uri kuyivomerera.

Umusore uhagaze hagati mu murima uhinzemo imyaka, yambaye agapira k'icyatsi n'ipantaro y'umukara ndetse yambaye n'agapfukamunwa k'umuhondo, afite rozwari mu ntoki ze y'icyatsi ari kuvomereramo igihingwa giteye mo aho hagati, inyuma ye hateretse indi rozwari kugira ngo amazi nashira muri imwe ahite afata indi.

Ubuhinzi bugezweho bujyana n'iterambere ndetse n'ikoranabuhanga mu nguni zose mu guhinga, mu gufumbira ndetse no mu gusarura, ubu ni uburyo bugezweho abahinzi bifashisha bavomerera ibihingwa byabo bitabavunnye cyane kandi bikabasha gukura neza.

Umurima munini uhinzemo umuceri, muri uwo murima hagati harimo umuntu, wambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara, ahetse ipombe mu mugongo ari kugenda yifashisha, ateraho imiti ndetse n'amazi kuri uwo muceri kugira ngo ubashe gukura neza, utagize ikibazo cy'uburwayi cyangwa se ikibazo cy'amazi.

Igishanga gihinzemo ibigori, iruhande rw'umurima munini w'ibigori hagaze umugabo wambaye amadarubindi y'umukara, igisarubeti cy'ubururu bwijimye, afite umupira mu ntoki ze ari kwifashisha kugira ngo abashe kuhirira ibigori bikure neza.

Imbuga ngari iteyeho ibyatsi, kuri iyo mbuga hari amatungo atandukanye arimo agenda agenda arisha ibyatsi biteye kuri iyo mbuga, inyuma yayo hariho ibiti birebire cyane twita ishyamba.

Ubworozi bw'amatungo, iyi nzu yororewemo inkoko z'ubwoko bugiye butandukanye, harimo inkokokazi ndetse n'amasake, harimo izitera amagi ndetse n'izitanga inyama, umwuga wo kurora inkoko urimo gukorwa cyane mu Rwanda kuko udasaba igishoro gihambaye kandi zikaba zororoka vuba cyane bityo ukaba wabona inyungu mu gihe kihuse.

Inka nziza cyane kandi nyinshi zikaba ziri mu bipangu byazo zifite amahembe agaye kandi manini, hanze y'ibyo bipangu hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru n'abandi bambaye ibisarubeti by'ubururu, ndetse n'undi wambaye agapira k'umukara, bose bakaba bari gukurikirana ubuzima bwiza bw'izo nka.

Icyate kigali kandi kidahinze cyagenewe gukorerwamo umwuga w'ubworozi, muri icyo cyate harimo inka nyinshi cyane ziri kugenda zirisha ibyatsi byakimezemo ndetse ziri kumwe n'abantu bashinzwe kuzitaho.

Inkoko nyinshi cyane ziri ahantu hamwe, izo nkoko urabona ko zikiri nto zimwe zitwa ibirwano, umwuga wo korora inkoko ni umwe mu myuga ikorwa n'aborozi cyane bahano iwacu mu Rwanda kuko ari umwuga wunguka vuba kandi udasaba igishoro k'ikirenga.

Imbuga ngari, yanitseho igihingwa k'ibigori, cyamaze gutunganywa neza, ku buryo gishobora kuba cyagezwa no ku isoko. Imbere y'ibyo bigori, hari abantu bagera mu icumi bahagaze imbere yabyo, bari gukurikirana neza, isarurwa ry'ibyo bigori.

Inka nyinshi cyane kandi nziza zifite amahembe agaye manini kandi maremare. Izo nka zikaba zitwa inyambo, zikaba ari zimwe mu ziranga umuco Nyarwanda ndetse dutandukaniyeho n'abandi.

Inka nyinshi ziri mu bipangu byazo, zifite amahembe maremare zikaba zizwi nk'inyambo, hagati muri izo nka harimo abagabo bambaye amataburiya y'imyeru, bakaba bazwi nka' veterineri, bakaba bashinzwe kwita ku matungo.

Inka nziza kandi nyinshi zifite amahembe a agaye manini zizwi nk'inyambo, ziri mu bipangu byazo. hafi y'ibyo bipangu hahagaze abantu bambaye amataburiya y'imyeru ndetse n'ibisarubeti by'ubururu bazwi nka'abaveteneri bari kugenda bakurikirana ubuzima bwazo.

Inka nziza zifite amahembe maremare kandi agaye, izo nka zizwi nk'Inyambo, ziri mu rupangu rwazo, mu gihe hanze y'urupangu hahagaze abantu, bashinzwe kwita kuri izo nka, bazwi nk'abaveterineri, harimo abambaye ibisarubeti by'ubururu ndetse harimo n'abandi bambaye amataburiya y'umweru, iruhande rwabo hari undi mugabo wambaye boti z'umukara n'ishati y'umukara, bisa nk'aho ari we mushumba wazo.

Inyamaswa y'ishyamba ndetse y'inkazi cyane, ihagaze ku git.i Iyi inyamaswa izwiho kwiruka cyane ndetse ikabije no guhiga. Iyi nyamaswa ishyirwa mu bwoko bw'ingwe, ndetse bamwe bakazita amapusi manini.

Inyamaswa zitandukanye harimo: impara, imparage, twiga cyangwa se ariyo twita agasumbashyamba. Izo zose zikaba zisangwa cyane cyane muri pariki y'Akagera, iherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda.

Inyamaswa zo mu gasozi ebyiri. Imwe yitwa imparage, ikaba ariyo iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara. Inyuma yayo hari indi nyamaswa yo mu bwoko bw'intare. Ikaba iri kuyihiga ishaka kuyica ngo iyirye.

Inyamaswa y'inkazi iri mu bwoko bw'igitarangwe. Iri kumwe n'umwana wayo byombi biri mu giti. Iyi ikaba ari inyamaswa izwiho kwiruka cyane, ndetse zizwiho guhiga cyane, bamwe bazita ipusi nini.

Impala ni zimwe mu nyamaswa zigaragara cyane, iyo ucyinjira muri pariki yacu y'akagera ,nizo ubona mbere y'izindi izi ni inyamaswa zirisha ibyatsi, bamwe bazita ihene z'ishyamba, izi zikaba zigira umumaro cyane, uwo gutunga n'inyamaswa nini nk'intare ndetse n'ingwe.